Abagabo benshi cyane bahagaze hamwe biragaragara ko ari abamotari, bambaye amajire y'umutuku ndetse na kasike nziza zabugenewe, hari umugabo uhagaze iruhande rwabo wambaye agapfukamunwa bigaragara ko ashaka gutega.